Inaha haba inzoga z'ubwoko butandukanye zifunze hakabamo za pirimusi, hakabamo za mitsingi, hakabamo za nowulesi, hakabamo za turubo kingi. bantu bafite amafaranga baje kuguramo inzoga bakanyweramo haba harimo aho kwicara, harimo umupira bari kureba, harimo n'amatara ,bafite umutekano.

Ngo burushete ziraryohaga, ni inyama babaga bokeje ku mishito bakazifata bakazishiramo ibitunguru bagashiramo n'inyanya, iyo ugiye mu kabari kunywa inzoga baguhaga na fagitire washaka kugura na burushete nazo ukazokesha nazo ukazirya.

Inaha mu tubari bacuruzagamo inzoga, habagamo amoko menshi gatandukanye primusi, mitsingi, byeri, noresi n'inzoga z'ibyuma harimo na babuji n'inzoga zisanzwe zipfundikiye, hakabamo n'inzoga z'ibyuma harimo izitwa wana yunayitedi jini . Tujaga kugura mu kabari, babaga barashizeho ibyapa by'inzoga bacuruzaga ku buryo abantu batayobaga kujamo.

Amafi atetse ari ku isahane, arimo n'inyanya, arimo n'imboga. Barayarya ari no ku isahane. Iyo abantu bariye amafi bagira ubuzima bwiza. Abana bayagaburira bakura neza.

Mu kabari hajagamo abantu bagiye kunywa, habagamo amoko gatandukanye g'inzoga, habagamo rikeri, hakabamo ibigage, hakabamo fanta. Abantu bose batandukanye bajagamo bagiye kunywa, bagateza imbere umuntu ucuruzaga izo nzoga, nawe agateza imbere igihugu, atanga imisoro.

Ibiryo bitandukanye harimo inyama, isose, amakaroni, capati. Bitetse neza ni ibyo muri resitora, isosi iri ku dusahane twayo. N'ibindi biryo biri ku masahane yabyo no mu bisuperi. Bifasha abantu buri wese kwarura ibyo ashaka kandi ashoboye.

Inzoga zitwa ibyuma habagaho inzoga bitandukanye hariyo ingwe, n'intare izi nzoga z'ibyuma barazifata ukazinywera mu kabari. Cangwa se ukaja kuyinywera mu rugo, iyo uyijanye mu rugo nta wakwishuzaga amavide.

Inaha iwacu habayo butike, ziba zirimo ibicuruzwa bitandukanye, harimo nk'amasafuriya, amagaze yo gutekeraho, ibishyimbo, ibirayi, ibijumba, tujya guhaha kuri butike, aho kugirango ngo tujye mu isoko tujya kuri butike, kuko haba ari hafi y'ibyo dukeneye bihari.

Inaha iwacu tugira amazunatunganya imisatsi, nko kogosha abagabo neza, gusuka abagore imisatsi tugashiraho ibisuko, natwe tukaba nk'abazungu. Iyo dushizeho ibisuko byiza dusanga natwe twabaye beza, ugasanga duteye imbere, turasa neza, tujya n'i Kigali natwe twarasutse nk'abi Kigali, bakatuyoberwa.

Ucuruzaga bolitike ukandikaho amazina gawe, ugashyiraho na nimero zawe za telefone, ugashushanyaho n'ibicuruzwa ucuruzaga nko kuba ucuruza omo, ugacuruza amavuta go kwisiga, ugacuruza umuti gw'ibirayi, ugacuruza amajani, ugacuruza ibintu byinshi byinshi byo muri butike, abantu babyandikagaho n'amazina gabo.

Hano iwacu haba butiki zitandukanye, butike zicuruza gaze, abacuruza ibyo kurya nk'ibirayi, umuceri, abacuruza amakaye, amakaramu, abacuruza MTN umutaka, bacuruzaga mobayiro mani, tukabitsayo tukanabikurayo.

Butike zinaha haba hariho ibirango bigaragaza ibyo abantu bacuruzamo nk'abacuruza amaradiyo, ibijyanye n'imiziki. Baba barashyizeho ibyapa bigaragaza ibyo bintu bacuruza barashushanyije na bimwe bacuruzamo n'ibijyanye na kanali, iby'amashanyarazi, iby'ingoma zo bavuza mu nsengero ibyo byose baba hashyizeho ibyapa n'ibirango byabyo bigaragaza ko bihaba.

Mu kwivuza habagaho kuja nko kuri farumasi ukagura ibinini ,iyo uri kumva urwaye nk'umutwe uzi neza ko parasitamoro arizo zirakuvura ,cyangwa se hari ukuntu ujaga kwivuza bakakwandikira imiti ukajya kuyigura muri farumasi ukayizanira.

Agabutike gatandukanye cane cane nka ga supamaketi. Supemaketi ni amabutike manini cane gaba harimo ibintu by'abasirimu bafataga ibyapa bakabishushanyagamo ibyo bacuruzaga bakandikaho ibyo aribyo. Umuntu ushaka kuja kuguramo bahamagara kuri nimero za babaga baranditseho cangwa yaba ashaka kuza kurangura akabahamagara kuri izo nimero. Iyo ugiye kuguramo ikintu baragupfunyikiraga neza bakagushyirira mu gakapu keza.

Abantu bari kuja kurangura amagi baragagurishaga bakagaha abantu bakarya, habagamo intungamubiri bakagaburiraga n'abana. Abaguraga menshi bagurishaga no mu mahanga bakabona amafaranga bakiteza imbere b'abacuruzi n'aborozi.

Urujya nuruza rw'abantu batandukanye, bari kwijya mu masoko, mu mabutike bajya kuguramo bitandukanye, harimo imyenda, ibikapu by'abanyeshuri, inkweto zo kwambara, abantu ntago bahendwa kuko baba barakoze ibya medi in rwanda, bigura make, nk'ibikapu by'abanyeshuri, bya medi ini rwanda ntago bihenda, hari n'abacuruza mitiyu, umutu ajya kugura amainite akajya no kubitsa bakanamubikuririra, urwateye imbere.

Inaha bacuruzagamo n'ibicuruzwa bitandukanye habagamo: imyenda, hakabamo imbuto ,inkweto amasogisi ,utwenda tw'abana, avoka, amandazi bagacuruzagamo n'imineke bacuruzagamo n'amagi iyo ubishaka ujaga kugura muri butike kugira ngo ubikoreshe iwawe utiriwe uraja kugura mu isoko.

Butike zinaha, iwacu mu Rwanda, banyirabwo bashyiraho ibirango by’aho, n’ibyo bacuruza, bandikaho n’amazina yabo, kugira ngo umuntu uhageze amenye ngo ni kwa runaka, ni ibyo acururizamo, ni ibi n’ibi, kugira ngo n’umuntu nakubaza ngo ndangira kwa runaka, n’ibyo acururizamo, ukahamurangira. Iyo bacuruza na MTN, bashyira ibyapa by’uko bacuruza ama inite.

Muri butike bacuruzagamo ibintu bitandukanye nk'amakote go kwambara, inkweto zo kwambara, amashati go kwambara, ariteteyi yo kwambara. Ago mashati n'ibyo biteteyi n'izo nkweto abaturage tujaga kubigura, tukabaha amafaranga gacu, bakaja kurangura ibindi bagatanga n'imisoro ku gihugu, igihugu kikubaka imihanda n'ibitaro n'amashuri abanyeshuri bigagamo.

Mu kabari abantu bajyamo ari urujya n'uruza batandukanye. Buri wese akajya kunywa icyo ashaka. Habamo ibicuruzwa byinshi bitandukanye by'inzoga zifunze, hari byeri, pirimusi, mitsingi, habamo n'inzoga z'ibyuma. Buri wese izo anywa ni zo ajya kugura bitewe n'uko yifite mu mufuka we.

Ino iwacu tugira amabutike yanditseho ibicuruzwa bacururizamo, ni niba wenda bacuruza nk'amasambaza hakaba handitse ngo hano ducuruza amasambaza, tujya kugura muri butike twabonye ibyo bari gucuruzamo. Habaho n'abacuruzi ba mitiyu baba bambaye amajire niba ari MTN aba ari ay'umuhondo niba ari Airtel aba ari ay'umutuku n'imitaka yabo ari iy'umutuku.

Umugabo uri muri butike, acuruza ibijyanye n'ibya terefone akanazikora, agacuruza n'ibikoresho bijyanye na kompiyuta, agacuruza udufuka two guhahiramo, korogati, abaturage baza kugura ibyo byose baba bakeneye.

Ibicuruzwa bibaga bitandukanye muri butike, habagamo ibicuruzwa by'imyenda, amapantaro, ibiteteyi, inkweto, amasogisi, imyenda y'abana n'iy'abakuru, n'amavuta go kwisiga.

Amabutiki ginaha bacuruzagamo ibintu bitandukanye habagamo ibibuni bakagira n'imbabura, bacuruzaga imikubuzo, bagacuruza imiceri, bagacuruza amavuta n'amasabune. Tujaga guhaha yo ibyo dukeneye ntabwo twirirwaga turajya mu isoko iyo hari amabutike ga twegereye.

Iwacu habagaho butike, bacuruzagamo ibyo kurya, bagacuruzamo, imyenda, bagacuruzamo n'inkweto ,bacuruzagamo: imyunyu, amasabune, imiceri, kawunga tujaga kugurayo ,tukateza imbere abo bacuruzi, natwe tukoroherwa no kuja kugura hafi tutiriwe turaja mu isoko.

Muri butike z'inaha iwacu bacuruzagamo udukomo two kwambara mu ntoki dutandukanye, navuga ho tumwe dushushanyijeho n'mitima turimo n'amadarapo y'igihugu, turimo amabara y'ubwoko bwose, umweru, umutuku, umuhondo, icyatsi n'ayandi mabara atandukanye.

Butike zino aha iwacu bacuruzagamo ibintu bitandukanye nk'by'imbuto, bacuruzaga imineke, bagacuruza wotameroni, bagacuruza imyembe, bagacuruza n'amapera, bacuruzaga n'amagi, bagacuruza n'amazi go kunywa, habaga harimo ibintu byinshi bitandukanye kuko tujaga kuguramo, iyo tutagiye mu isoko tuguraga muri butike hafi yo mugo.

Ino aha iwacu, habamo amabutike atandukanye, bacuruzamo imyenda bagacuruzamo iy'abakuru iy'abana, bacuruzamo n'inkweto, haba n'abajenti ba emutiyene batugurisha amamitiyu, tubikuzaho n'amafaranga tukanayabitsa, twoherereza n'abantu bacu bari kure amafaranga kugira ngo abagereho.

Mu mabutike habamo imyenda, hakabamo n'inkweto bacuruzamo imyenda itandukanye iy'abana, iy'abakuru, iy'abagabo, iy'abagore. Hakaba n'amazu arimo bagatangamo serivisi byo ku irembo butangiraho mituweli, butangaho ibirego, ikoranabuhanga mbese riratwegera.

Botike harimo imiryango bacuruzagamo imyenda, aho bacuruzaga ibikoresho byo mu rugo ,hari insinga z'amashanyarazi; gatumaga abantu bacururizagamo hano bagira urumuri; iyo bwije bagakomeza gucuruza . Hari n'umuhanda gwa kaburimbo. Abamotari batwaraga abagenzi kabajana hirya no hino no mu mago g'iwabo.

Butike zitandukanye bacururizagamo ibyo kurya, babicuruza nko kunywa, bacururizagamo n'imyenda. Abantu bahaturiye bakaza kugura batarinze bajaga mu isoko risanzwe. nko gutika zibagaze hafi yo mu ngo zacu ntabwo tuburaga bwoguhaha habaga harimo ni iby'ukuri.

Amabutike ginaha iwacu, ba nyirago bandikagaho amazina, gabo bakandikaho n'ibyo bacuruzaga, kugira umuntu naje kugura ibicuruzwa birimo, agende yabonye ibyo agiye kugura, kugira ngo ajejukirwe, anasome byanditseho, narangira n'abandi ababwire ngo kwarunaka, habaga handitse guca, habagaho na nimero za telefone, uhamagaraga nyiri butike iyo usanze ntawuhari.

Amabutike ginaha iwacu bacuruzagamo ibikoresho bitandukanye: ibikosi, amasahane, amabase, amadobo, tujaga kubigura kugira ngo tubikoreshe mu rugo, bityo n'abacuruzi batangaga imisoro ku Gihugu kugira ngo u Rwanda rwacu rutere imbere. Iyo misoro batangaga yubakwagamo ibikorwa bya leta nk'inyubako zo kwigiramo nk'amashuri, n'imihanda. Bakoraga n'ibiraro mu mihanda yacu.

Butike bacuruzamo ibicuruzwa bitandukanye, harimo gaze, harimo amabase, harimo amazi ya Jibu, harimo n'amaji y'ubwoko bwose, harimo na papiye jenike zo kujyana mu musarane, bacuruza n'amayinite hanze, bagacuruza n'ibindi bikoresho bitandukanye muri butike, kugira ngo abantu babigure babijyane babikoreshe.

Icyapa gishushanyijeho inzoga kigaragazaga ahantu bacuruza inzoga bajaga kwiyakirira habaga hubatse amazu hakabaho n' ibyapa biyoboraga abantu bakabona ko bajaga kuri hoteli kunywa inzoga.

Habaho utubare bacuruza inzoga z'amoko atandukanye, zifunze utwo tubare baba baratwanditseho ibyapa bigaragaza ibyobakoreramo, nkiyo umuntu ahageze ashaka kugura inzoga, ntabwo ayoba, bakunda kuba cyane cyane, bacururiza impande y'imihanda ya kaburimbo, basyiayo ibyapa biri kujyayo.

Amabutike g'inaha iwacu bacuruzagamo ibintu bitandukanye: inzoga zo kunywa, imyenda zo kwambara, amasabune go gukaraba, hakabaho n'abacuruzi b'abazunguzayi bagendaga ku mutwe bikoreye ibyo bari gucuruza. Imbuto, ibirayi, ibitunguru, inyanya, bahura n'abantu babikeneye bakagura na bo.

Amazu ko gucururizamo inzoga zo kunywa habagaho ibyapa byerekana inzoga bacururizagaho, ago mazu gabaga gafite n'umuriro, habagaho amashanyarazi kugira ngo abantu nibaza kunywaho batagira umwijima. Bitumaga abantu benshi baja kunywayo kuko habaga hari umutekano hari n'amatara gari kwaka.

Amabutike g'inaha iwacu duharagamo ibintu bitandukanye: ibitoki, ibirayi, ibijumba, ibishimbo, umuceri, kawunga. Ni byiza kugira amabutike gakwegereye, kuko tutirirwaga turaja mu isoko iyo tugiye guhaha nko ku mugoroba, turahaha ibyo guteka bitari byinshi cyane.

Butiki bubakaga inyubako zigezweho nk'amayetaje bacururizagamo imyenda n'inkweto, iyo umuntu agiye aho mu mujyi asanga barubatse inyubako zigezweho zituma abantu bacururiza ahantu heza, tukamera nk'i Kigali nk'uko i Kigali bacururizaga mu mayetaje.

Iwacu habaga utubari bacuruzagamo inzoga. Utwo tubari tubaga twubatse neza, bashiragaho ibyapa bigaragaza inzoga bacuruzagamo. Habaga ari heza, bafite amamodoka gaparikagayo. Habagamo n'ibyumba byo kuraramo, iyo hajeho nk'abantu ba kure bararagamo, bakishura amafaranga kugira ngo nyiri kabare atere imbere, nawe atanga imisoro ku gihugu cyacu gitere imbere.

Inaha iwacu habamo amabutike atandukanye. Amabutike acuruza inzoga zo kunywa tujya kuguramo inzoga. Haba hari ibyapa bigaragaza ko hari inzoga abashaka bajya kunywamo izo nzoga abandi bakagura bakajya kuzinywera mu rugo, noneho hakabaho n'andi mabutike acuruza ibyokurya tujya kuguramo, haba ari hafi nko mugasantere, amabutike acuruza inzoga haba hari ibyapa bigaragaza izirimo.

Umugozi wa telefone ni umugozi bacomekagaho imigozi za telefone n'amatelefoni gapfuye. Ibingibi bafataga telefoni zapfuye bakazikora bifashishije amashanyarazi kugira ngo zongere zikore bakazigurisha n'abo bakoreye izabo bakabishura.

Amabutiki bacuruzagamo imyenda, bafataga ibipupe bimeze nk'abantu bakabyambika izo myenda kugira ngo babashe kuzigura, basange ibipupe byambaye imyenda nibabona zibabereye nabo bazigure. Bacuruzaga n'inkweto nziza, bagacuruza n' imyenda z'abana, bagacuza n'inkweto z'abakuru.

Urujya n'uruza rw'abantu bari guhaha mu ma butike, n'abari kujya kunywa inzoga mu kabari. Utubari tuba twanditseho ibirango by'inzoga zibamo, kugira ngo abakiriya babo nibahagera, bakabona izo nzoga baziywa bajye kuzinywamo. Urugero nk'inzoga za mitsingi, izitwa ginesi n'izindi nzoga zitwa pirimusi, abakiriya bazo iyo bazibonye ko bazicuruza bo bajya kuguramo.

Butike zirimo abacuruzi bacuruzaga ibijanye n'ibyo kurya. Bacuruzaga n'ibindi bintu bitandukanye by'ikoranabuhanga. Uruja n'uruza rw'abantu bari kugenda mu muhanda wa kaburimbo hafi ya butike, abamotari batwaraga abagenzi, bakabavana ahantu hamwe babajana ahandi bakoreraga, mu santere hafi y'amabutike.

Ku rusengero habagayo amakorari, ago makorari gaguraga iniforume gagahuza, gakambara nk'amagutiya n'amashati bisa, gakaja garaja kuririmba mu rusengero gambaye imyenda zisa, kugira ngo gagaragare neza mu rusengero.

Hoteri bacuruzamo inzoga z'ubwoko bwinshi butandukanye, habamo amarikeri hakabamo inzoga zifunze, habamo primusi hakabamo byeri hakabamo na nowuresi, hakabamo n'izindi nzoga mpuzamahanga, kuko haba harazamo abantu benshi batandukanye.

Hoteri zibagamo ubwoko bw'inzoga butandukanye:izifunze, hakabamo byeyi, pirimusi, mitsingi, nowuresi, hakabamo n'ubwoko bwinshi bw'amarikeri, harimo nk'ingwe, harimo mo nka unayitedijini, abantu benshi bakundaga inzoga bajaga kuhanywera kuko habaga hari umutekano hari n'inzoga nyinshi zitandukanye.

Hoteli yinaha wacu habamo n'aho kuryama abantu baje mu ngendo bakajya no gucumbikamo bafatiramo ibyo kunywa bigaragaza ibyo bacururizamo, ufatamo na burushete bakabaha n'ibiryo baguze babateza imbere bityo abanyamahoteli bagatanga imisoro ku gihugu.

Muri hoteri haba ari ahantu heza bafatira ibyo kunywa, bakajya kunywerayo. Abafite inama bazikorera mu mahoteli, kuko haba hari intebe nziza, harimo n'ameza. Bagakora inama bari gufata icyo kunywa n'icyo kurya. Barabigura, ba nyir'amahoteli bakabona amafaranga. Na ba nyir'amahoteri bagatanga imisoro ku gihugu.

Uruja n'uruza rw'abantu bari kujaga mu isoko, bari kujayo bagiye kugura ibintu bitandukanye cane cane nk'ibyo kurya harimo: ibirayi, ibijumba, amateke, imyumbati, imbuto, imineke, amapera, marakuca n'ibindi bitandukanye. Abagabo bo n'igice bacuruzagamo imyenda, bagacuruza n'imiceri na kawunga.

Umuntu uri gucuruza muri superi maketi, acuruzagamo ibintu bitandukanye, ibiribwa by'abakire, by'abasirimu, imigati, za bleba z'abana b'abazungu kugira ngo abana barye neza baje barajijuka ho ubwenge.

Mu isoko ry'inaha iwacu bacuruzagamo imbuto, bagacuruzamo ibiribwa bijanye n'imboga birimo karoti, intoryi, imiteja, ibitunguru, inyanya, pavro zidufashaga guteka neza tukarya intungamubiri, bityo tukarya indyo zuzuye.

Ino aha iwacu twitezaga imbere mu gucuruza, dukoraga imbaga, dukoraga benya, dukoraga na za keke, iyo tuzikoze turaziranguzaga abaziranguye bakaduha amafaranga, nabo barazicuruzaga bakunguka, bakunguka bakagaruka kurangura, tukiteza imbere, tugatanga n'imisoro ku gihugu u Rwanda rwacu rugatengamara tukabaho neza.

Urujya n'uruza rw'abantu bari mu isoko，bagiye guhaha mu isoko， bagiye guhaha higanjemo： imbuto，urusenda， ibitunguru，imineke，hakiganzamo n'ibirayi na tungurusumu n'ibindi bitandukanye.

Amasoko g'inaha iwacu habagamo uruja n'uruza rw'abantu bagiye kugura ibyo bakeneye, bacuruzagamo ibijanye n'ubwiza bacuruzaga udukoma two kwambara mu ntoki, bagacuruza amaherena, bacuruzaga n'ibisokozo, bacuruzaga imyenda z'abana bagacuruza n'ibibuni, bagacuruza n'amavuta gogushira mu umutwe , bagacuruza n'amasabune go gukarabisha mu mutwe gitwa shampo.

Mu Rwanda twororaga inkoko, izo nkoko zigatera amagi, ago magi tugaja kugagurisha abagaguze na bo bakagacuruza. Abantu iyo bariye amagi bagira umubiri mwiza, bakagira ubuzima bwiza. Babaga bariye intungamubiri bakagagaburira n'abana abana ntibazabe mu mutuku bakagira umubiri mwiza bagakura no mu mikurire myiza.

Ibicuruzwa bitandukanye mu isoko harimo inkweto, iz'abakuru n'iz'abana harimo n'ibikapu hakabamo n'inkweto z'abagabo n'iz'abagore. Iyo tugiye kugura inkweto mu isoko buri wese arigeraga akarebamo izimukwiye, izo yashima akaba ari zo ajana.

Abacuruzi bacuruzaga ibyo kurya n'imbuto n'intoryi, imboga, amashu, hakabamo n'ibijumba, hakabamo n'ibirayi bari gucuruza.

Mu isoko habamo ubwoko butandukanye bw'imbuto nka marakuca, amatunda n'amapera. Izo mbuto tura zirya kugira ngo zitugirire akamaro mu mubiri tugire intungamubiri, tukanazigaburira n'abana kugira ngo bakure neza. Umuntu wese uziriye izo mbuto akura neza kandi akagira ubuzima bwiza.

Kuko inaha bacuruzaga imyenda zitandukanye: imyenda z'abana, ibigoma byo guhekamo abana, n'amasume go guhekamo abana imyenda zo kwambika abana, amasogisi g'abana na pampa z'abana, iyo umubyeyi agiye kubyara, ajanaga imyenda z'abana, akajana n'imyenda ziwe arambara ntajanaga imyenda zishaje habagaho imyenda z'umwana zibaga zishushe ni zo baguraga.

Uruja n'uruza rw'abantu bari kuja ku isoko bahahagamo ibiribwa byiganjemo imbuto, harimo amapera harimo wotameloni, imineke amananasi habagamo n'imyembe bacuruzaga n'avoka. Abaturage baguraga izo mbuto, kugira ngo baje kuzirya iwabo bicyo zibashe kugira intungamubiri mu mibiri zabo.

Mu masoko ginaha iwacu bacuruzagamo ibyokurya bitandukanye: nk'amasaka, amashaza, ibigori, uburo n'ibindi byinshi bitandukanye tujaga kugurayo, iyo dukeneye nk'ibyo guteka mu gikoma cyangwa se dukeneye nk'ibishimbo byo guteka, iyo utabihinze ujaga kugura mu isoko.

Amasoko gatugiriraga akamaro, tujaga guhaha mo ibyo kurya, tukaja kugura mo imyenda, tukaja no kugurisha nk'ibyo twejeje .Tukagura ibyo tudafite mu rugo, tugatera imbere, ibyo dukeneye byose tukaja ku isoko tuzi ko turi turabigura yo.

Mu mabutike y'inaha bacuruzamo ibintu bitandukanye. Hari za kanta z'abagore batera mu mutwe ngo base neza, na shampo bakarabisha mu mutwe na zo barazicuruza, bagacuruza n'ifu y'igikoma yitwa bino, bagacuruza n'amata y'Inyange, bagacuruza n'ibindi bikoresho harimo n'ibikoresho by'isuku nka feye jenike zo kujyana mu musarani.

Isoko bacuruzagamo amasafuriya manini na matoya. Bagacuruzamo amabase, bagacuruzagamo imbabura, n'indiga zo guhatisha. Iyo tugiye kugura amasafuriya tuguraga manini tukagura n'amatoya amani tukagatekamo nk'ibijumba, amatoya tukayatekaho nk'imboga.

Mu bucuruzi habagamo abantu bacuruzaga bari kugendana imyenda mu ntoki, kubitaga abazunguzayi bagurishaga kuri make n'iyo muhuye bakubwiraga ako kenda ni keza ngo kagure, ngo gurarambaga umupira, babaga bari kwishakira imibereho kuko babaga badafite iseta zo gucururizamo mu masoko.

Butike z'inaha iwacu bacuruzamo ibintu bitandukanye nk'inkweto zo kwambara. Iz'abagabo, iz'abana, iz'abagore. Bacuruza n'imyenda. Abacuruzi bacuruza, babona amafaranga, bagatanga n'imisoro kugira ngo Igihugu cyacu gitere imbere. Iyo misoro ifasha Igihugu kubaka amashuri, bakubaka n'imihanda, bakubaka n'ibiraro kugira ngo u Rwanda rwacu rukomeze gutera imbere.

Uruja n'uruza rw'abantu bari kuja kugura ibyo bakeneye mu mabutike. Ku isoko habagamo n'amabutike gabaga gubatse nko ku ruhande bacuruzagamo ibintu bitandukanye, imyenda, inkweto, amasogisi, utwenda tw'abana, bacuruzagamo n'amaji go kunywa, bakakora n'amatelefone, bakakora n'amaradiyo.

Mu Rwanda habagamo amasoko, babohaga ibyibo, bakanabigurisha. Abantu bakaja kuguramo ibyibo. Ibyibo ni byiza, tubitwereragamo abantu, nkiyo tugiye mu bukwe. N'abageni iyo bakoze ubukwe, bahaga ba nyirabukwe ibyibo. Umuco gwacu gwa kinyarwanda ni byiza gutanga ibyibo iyo wakoze ubukwe, ukagiha nyokobukwe. Noneho nawe ukabufite, icyo murugo iwawe wajaja, uraja mukwe, ukagikwereramo.

Mu isoko bacuruzamo ibintu bitandukanye, cyane cyane iyo hari imbuto, hakabamo imineke, hakabamo amapera, hakabamara, marakuca, abaturage baje guhaha bahabwa n'imbuto, bagaha abacuruza amafaranga, bakajya kurangura izindi bakongera bakaza bagacuruza.

Uruja n'uruza rw'abantu bari kuja mu isoko bari kuja guhaha ibiribwa byiganjemo imbuto. Harimo urusenda, hakabamo n'ibitunguru, harimo imboga seleri, harimo na za kokombure, harimo na za wotameloni, harimo n'ibipapayi, harimo na maronji, n'amapera, harimo n'inyanya. Bidufashaga kugira ngo ubuzima bwacu bugende neza. habagamo intungamubiri zitandukanye za vitaminini A na vitaminini B.

Twambara imyenda igezezweho ya kizungu abazungu batuzaniye, kera ntabwo twambaraga kera ntabwo twambaraga twakenyeraga impu. Ariko ubu turambara tugura inkweto nziza tukagura imyenda myiza, tujya kugura n'i Kigali na hano mu mugi haba hari imyenda, ahantu hose haba hari imyenda myiza yo kwambara, kugira ngo duse neza.

Isoko ririmo imyenda zitandukanye harimo: ibitenge amashate, amapantaro, amakote, tujaga mu isoko tukagura imyenda n'amashati g'abagabo, ag'abana tukagenda tukishura abo tuguriye nabo bagatanga umusoro ku gihugu u Rwanda rwacu rukarushaho gutera imbere.

Mu isoko bacuruzaga mo ibintu bitandukanye, nk'abantu bafite za butike mu masoko, buri wese afite umuryango gwe akoreraga mo abacura abacuruzaga imyenda, inkweto, bacuruzaga telefone, abo bacuruzi iyo bacuruje, batangaga imisoro ku gihugu, igihugu kigatera imbere mu bukungu.

Ji zitugiriraga akamaro, iyo tuzinweye, tujaga kuzigura mu mabutike, zibaga ari ubwoko butandukanye, hari izibaga zitwa Salama, hari na ji zo kuri Nyirangarama, turazinwaga, zibaga ziryoshe, tukazigurira n'abana, n'abazicuruzaga babonaga amafaranga, bakaja kurangura ibindi bicuruzwa, bagatanga n'imisoro mu gihugu.

Mu masoko bacuruzagamo ubwoko butandukanye bw'amavuta abantu bajaga kugura gu mavuta gatandukanye hari agamazi ko gusuka, haragibikotoro, za parufe, hari za amavuta bita oriva bashyirwa mu misatsi zabagore no muri salo yabakoraga muri saro ,tukagira na za shampo zo gukarabisha mu mutwe bifashaga abantu kugira ibintu bisirimutse cyane.

Uruja n'uruza rw'abantu bari kuja mu isoko baje kuja guhaha ibyoku kurya byiganjemo imbuto: amapera ,amaronji, indimu ,inanasi, ibipapayi, ibinyomoro abantu benshi bazaga mu isoko bakaja guhahamo izo mbuto kuko imbuto n'intungamubiri zitumaga umubiri gwacu gumera neza habaga harimo vitamini zifashaga ubuzima bw'abantu tukazigaburira n'abana bakarya izo ntungamubiri.